Umugabo wambaye uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'uturinda amaso ndetse n'ingofero mu mutwe y'icyatsi, arimo aratera imiti ibimera ndetse n'ibiti.

Abagabo babiri bari mu murima umwe yambaye ingofero ya kaki, undi yambaye amadarubindi n'ishati y'umweru barimo barakoresha umuti wifashishwa mu gufuhira imyaka.

Ubworozi bw'amafi, ni bwiza cyane kuko bubuteza imbere ba nyirabwo. Abagabo babiri barimo baragaburira amafi bororeye ahantu hamwe, bambaye amasarubeti y'ubururu.

Ikiyaga kinini kigizwe n'amazi mabi ku nkengero zacyo hari ubwato bukozwe mu mbaho, iruhande rwabwo hari abantu benshi bunamye higanjemo abambaye amataburiya ari mu ibara rya kaki, harimo umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru ari kuvoma amazi akoresheje indobo iri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite ibiribwa byo kugaburira amafi mu ntoki, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ya kake agiye kugaburira amafi. Amafi ari mu bworozi buteye imbere.

Abategarugori bishyize hamwe, barimo bararoba amafi bayakura mu biyaga, bamwe bambaye imyambaro yabugenewe, ibarinda kurohama igihe habaye impanuka yo mu mazi.

Icyuzi cy'amafi kiri ahantu heza hatuje, biragaragara ko amafi arimo rwose ahubwo batinze kuza kuyaroba, hirya yaho hari ibyatsi.

Ubworozi bw'amafi bugenda butera imbere, aha barimo bararoba bakoresheje inshundura, ubu ni uburobyi bugezweho butuma amati yororoka.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza, uyu ni umugabo arimo aragaburira amafi ye areba ukuntu arya, arishimye urabona ko bimunejeje.

Icyuzi kinini kirimo ibyatsi ndetse kirimo amazi yanduye, imbere yacyo hari abagabo bavuye kuroba, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, iruhande rwe hari umusore wambaye ubusa hejuru ndetse ufite ifi mu ntoki kandi yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Abagabo bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuroba, bose bafashe ahantu hamwe, birasa nk'aho bari mu gikorwa cyo kuroba.

Umurima munini urimo ibihingwa bitandukanye, harimo umugabo w'umwirabura wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro iri mu bara ry'ubururu. Inyuma ye hari ibihingwa bitandukanye higanjemo insina zifite amakoma ari mu ibara ry'icyatsi

Umugore uri mu cyayi arimo arishabikira ngo arebe ko yabona udufaranga tw'uwo munsi, inyuma ye hari agakoresho k'agatebo gashinzwe gutererwamo icyayi.

Umurima uhinzemo icyayi, harimo umugore witeze igitenge mu mutwe, wambaye ishati, ijipo y'umukara, ahetse igitebo, ndetse ari gusoroma icyayi. Inyuma ye hari abandi bagore bari gusoroma icyayi biteze ibitenge mu mutwe. Hejuru yabo hari ikirere kiri mu ibara ry'ubururu.

Igihingwa cy'umuceri giteye ku musitari, ni imisitari myinshi gihinzwe mu gishanga ahaba amazi menshi ndetse iyo weze biba bishimishije.

Igihingwa cy'ikawa, ni kiza mu gihugu cyacu. Iyi ni ikawa itarera ndetse harimo n'iindi yeze, itegereje gusarurwa. Iratoshye ifite n'amababi meza.

Igihingwak'ikawa ntigihingwa ngandurabukungu, kuko kigurishwa hanze y'igihugu cyacu maze kikinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu bikorwa bitandukanye.

Igihingwa cy'ingano, gikunda guhingwa mu gihugu cyacu cy'u rwanda. Aba ni abaturage barimo barasarura izi ngano. Ni byiza gusarura hakiri kare kandi tugasarura ibyeze.

Abahinzi bishyize hamwe, bambaye amajire y'umutuku, higanjemo abagore, bari mu ikawa barimo barasarura ikawa. Bamwe bipfu ibitambaro mu mutwe, abandi bafite imisatsi mike.

Abagabo ndetse n'abagore, bafite udutebo inyuma yabo, barimo barasarura igihingwa cy'ikawa, iki ni igihingwa kinjiza amafaranga mu rugo.

Amavuta ndetse n'imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kugaburira ndetse no kuvura amatungo, harimo n'ibindi byinshi.

Abagabo batatu barimo baritegereza umurima w'ibigori byiza bisa neza, inyuma yabo hari umugabo wambaye inifomu ya gisirikari.

Abahinzi bunamye ahantu hamwe biragaragara ko barimo basarura imyaka, harimo abagabo, abagore, abana, abagabo harimo abambaye ingofero z'imikara.

Umukecuru witeze igitambaro, kiri mu ibara rya oranje, ndetse yambaye ishapure mu ijosi, afite mu ntoki igipapuro kiriho ikirangantego cya repubulika y'uRwanda. Inyuma ye hari umurima munini utewemo ibihingwa bitandukanye, higanjemo ibigori, ndetse n'insina, imwe muri zo iriho igitoki.

Umubyeyi w'umukecuru yunamye mu bigori arimo arabibagarira yambaye ingutiya y'umukara ndetse yipfutse n'igitambaro, ubuhinzi bw'ibigori buteje imbere ba nyirabwo.

Abahinzi bicaye mu inanasi bambaye udupfukamunwa harimo umugabo urimo wandika ku ikayi, biragaragara ko bahanye intera. Ibi biri mu buryo bwo kwirinda.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku yikoreye inkwi avuye gutashya. Ari kunyura mu ruseke mu mukenke biragaragara ko izuba riri gucana.

Umugore n'umugabo bari guseka bafashe igihingwa cy'umyumbati umugabo yambaye ikote riri mu ibara ry'umukara ndetse n'ishati iri mu ibara ry'umweru, hirya ye hari umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'igitenge, inyuma yabo hari umurima munini uhinzemo imyumbati.

Umuhinzi w'umugore ari muhunikiro afite uruhushyi rwuzuyeho ibigori by'impungure, arishimye biragaragara ko yabonye umusaruro uhagije muhinzi yakoze.

Ahacururizwa ibyokurya bitandukanye, ibiba biri mu dukopo, mu dukarito ndetse n'ibindi biba bipfunyitse mu mashashi, haririmo ibiribwa ako kanya, hari n'ibisaba kubanza byatunganywa.

Ikibuga kinini kirimo ubwatsi, harimo inka zirimo zirarisha, ni ahantu heza, urabona ko n'ikirere gituje kandi gikeye, aha ubu bwatsi butanga umukamo.

Umuceri umaze gukura, weze, ugeze igihe cyo gusarurwa, urabona ko mu busa neza ndetse ubusa nkaho byoroshye kuwusarura.

Ibiribwa bigiye bitandukanye harimo n'ibinyobwa bicururizwa mu isoko rigezweho, ibi biribwa bikaba byiganjemo ingano ndetse n'ibindi.

Imyumbati iteye mu murima iri ahantu heza, imyumbati ni igihingwa gikenerwa mu buzima bwa buri munsi kandi gitinda mu murima kuko kimaramo hafi imyaka ibiri.

Ikirere gituje gikeye kandi gitekanye, munsi yacyo harimo ubuhinzi butandukanye, harimo ubw'ibigori ndetse hejuru yabwo hateye insinga z'amashanyarazi.

Ikimera cyitwa ipapayi kiri mu bwoko bwi'imbuto zikunzwe kandi zifasha umubiri wacu cyane cyane mu gihe cy'igogora ziradufasha cyane.

Amashyamba ari mu bimwe mu bikurura imvura, ibi ubona ni ibihu, ibi bibyara imvura iyo izuba ribimuritseho birazamuka bikagera mu kirere.

Umuhanda muremure, unyuze mu ishyamba hagati, urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo abari hasi n'undi uri kuzamuka utwaye ikinyabiziga, biragaragara ko ari amarushanwa.

Ishyamba ritarimo ibiti byinshi cyane, riracyari rito, munsi yaryo harimo akazu gasakajwe amabati y'umweru, iyi misozi ituma duhumeka neza.

Ishyamba rinini ry'ininzitane riteyemo ibiti ndetse n'ibindi bimera by'ubwoko butandukanye. Ishyamba rigira akamaro ko kutuzanira umwuka mwiza duhumeka.

Igishanga kinini kirimo ibihingwa bitandukanye, ku ruhande rwacyo hari umuhanda w'igitaka urimo imbaga nyamwinshi y'abantu bari kugenda. Inyuma yabo hari umusaza wambaye ikoti ry'umweru ndetse ku ruhande gato hari umusozi munini ugizwe n'ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Ibidukikije byiganjemo amashyamba, imigezi itemba ndetse n'ibindi, aha ni mu ishyamba, ririmo amazi meza, atemba.

Ba mukerarugendo baje gusura ingagi, ni abazungu ndetse hari n'umugide urimo abereka uko bagomba kwitwara imbere y'izi ngagi, harimo n'urimo afata amashusho.

Abagabo barimo barakora umuganda wo gutema ibihuru, ibi bihuru ni byo bicumbikira imibu maze igihe cy'ijoro ikaza kudwinga abantu mu ngo zabo.

Amashyamba ari muri bimwe bidukururira umwuka mwiza ndetse bigatanga imvura, akungahaye kuri ogisigene ndetse nimeza.

Amashyamba ya kimeza ni menshi mu gihugu cyacu, iri ni ishyamba ry'inzitane, ricumbikiye amoko y'inyamaswa ndetse akaba n'ibihaha bidufasha mu kuduha umwuka mwiza.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bugenda butera imbere harimo imyanya, ibihaza, amapapayi ndetse n'ibindi. Harimo n'ubuhinzi bw'indabo.

Ni ikimera kiririmo ibara ry' roza giteye muri jaride, biragaragara ko ari ubutaka bugari buteyeho indabo, muri make ni ubuhinzi bw'indabo.

Umugore arimo abacuruza inyanya ahuye n'abakiriya barimo baramubaza uko zigura, izi nyanya ni nziza zirasa neza, ziteretsemo inkoko, teremusi ndetse n'indobo y'icyatsi.

Igihingwa cya avoka ni kiza iyo keze kiba ari urubuto rutuma ubwonko bwacu bukora neza, ndetse kirinda indwara.

Ururabo rw'iroza rurakeye ndetse rusa nk'aho ruhumura, ruri ahantu heza muri jaride bigaragara ko rwahinzwe kera.

Izi ni imboga za kinyarwanda, ziraryoha ndetse zifashishwa mu kurya ibiryo bitandukanye, aha zirimo ziracuruzwa, iruhande rwazo hari ibitunguru.

Umurima uhinzemo igihingwa cya karoti, urimo umusore uri gucucira, wambaye ikabutura ndetse afite rozwari ebyiri mu ntoki ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse yambaye agapira kandi ari kumwenyura, inyuma ye hari igishanga kirimo ibihingwa bitandukanye.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, urimo umugore wunamye wambaye igitambaro mu mutwe ndetse akenyeye igitenge kandi ari gucukira ibihingwa akoresheje ihombo. Hirya ye hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire bifite amashami menshi.

Umurima uteyemo amashu ndetse n'ibigori urimo abantu batandukanye, bambaye amasarubeti ari mu ibara ry'ubururu harimo umugore wambaye bote z'umukara, afite itiyo ry'amazi mu ntoki, inyuma ye hari umugabo w'umusaza wambaye itaburiya iri mu ibara ry'ubururu.

Kuhira imyaka mu gihe k'izuba bituma imera neza. Aha ni mu gishanga ahari imashini ishinzwe gufuhira cyangwa se kuvomerera ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umugezi mugari, iruhande rwawo hari akuma kabugenewe, gasize amarangi y'umutuku n'umweru, gakumira abantu, kuba bahajya.

Ibikoresho bya kijyambere byifashishwa mu kuhira imyaka ni byiza kuko bituma ibihingwa bimera neza, aha ni mu gihe cyo mu zuba ariko urabona ko ibihingwa bitoshye.

Umurima munini uterimo ibigori hejuru yawo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gucucira ibihingwa. Imbere cyane hari umusozi munini uriho amashyamba atandukanye agizwe n'ibiti bitandukanye. Hejuru hari ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu.

Ikibaya kinini gikorerwamo ubuhinzi kiri hasi munsi y'umusozi gikikijwe n'imisozi myinshi n'ikirere gikeye gisa neza, ahantu hasa neza rwose.

Umusozi muremure uriho ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'amaterasi y'indinganire, uyu wa hano hino hariho umugabo wambaye ikote arahagaze hejuru y'urugo.

Ibirunga biri mu bigize ubwiza n'uburanga bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hasi hari amashyamba ndetse ikirere gisa n'aho kigiye kuvamo imvura.

Imisozi myiza miremire, iriho ibimera bitandukanye ndetse n'ibiti ndetse bakoreraho ubuhinzi, hejuru yayo hari ikirere gisa nk'aho kigiye gutanga imvura.

Mu kibaya kiriho imisozi myiza igikikije mo hasi mu gishanga harimo ibihingwa by'ibigori bitarera bitegereje imvura kugira ngo byere.

Amazi amanuka ku musozi uteyeho ibiti ndetse n'insina, akaruhukira mu kabande hasi, ni ahantu heza hari ubwiza nyaburanga umuntu wese yakwifuza gusura.

Imisozi biba byiza iyo iteweho amaterasi y'indinganire kugira ngo birwanye isuri bitume ubutaka butagenda, aha hari amagare abiri, hepfo hari imisozi ihinzeho ibintu byinshi.

Umusozi muremure uteyeho ibiti ndetse wubatseho n'amazu agiye atandukanye, aha abari mu kaga kuko iyo ibiza bije ni ho bihera.

Imisozi miremire ariko isa neza bitewe n'uko iteweho amaterasi y'indinganire. ibi bifasha ubutaka guhagarara hamwe ntibube bwatemba ngo bujye mu bishanga.

Ubworozi bw'ihene, ihene zaturutse imihanda yose zihuriye hano urabona ko ari ubworozi buteye imbere kandi bugezweho aho ukora uyu mushinga yinjiza amafaranga menshi aturuka mu bworozi bw'amahene.

Ingurube eshatu ziri mu kiraro kimwe zose zambaye amaherena y'ubururu nako yicyatsi. zirimo zirarira mu gakoresho kabugenewe. Ni nziza ni izakizungu.

Ubworozi bw'inka mu gihugu cyacu bugenda butera imbere. Izi ni inyambo zifite amahembe maremare ndetse agandaye, hari na veterineri waje kuzitaho areba uko zimeze.

Imashini yabugenewe yifashishwa mu kugaburira amatungo, iteretse ku makararo icyo hejuru kiri mu ibara ry'umutuku, icyo giteretseho kiri mu mabara y'icyatsi, iruhande rwacyo hari idirishya ry'ibirahure.

Ubworozi bw'inkoko zirimo isake ndetse n'inkokokazi zororewe ahantu hanini mu gisare ndetse harimo ibiribwa bitandukanye ndetse n'udukoresho zikoresha zinywa amazi.

Umworozi wambaye itaburiya y'icyatsi, afite inkoko mu ntoki, afite inkoko nyinshi, biragaragara ko ari umworozi wabigize umwuga kandi bibeshejeho.

Ikiraro cya kijyambere cyubakishijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara, kirimo inka zitandukanye higanjemo izifite amahembe maremare, ku ruhande rwacyo hari abantu benshi higanjemo abambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari abaveterineri bambaye amataburiya ari mu ibara ry'umweru.

Inka iri mu kiraro kiza giteye imbere, ni nziza irashishe biragaragara ko yagaburiwe irimo irarya, amatungo muri iyi minsi asigaye afite amafaranga.

Inkoko ziri ahantu hamwe zikeneye kugaburirwa ni nyinshi, hari udukoresho twabugenewe two kuzivomerera igihe zikeneye kunywa amazi.

Igihingwa cyibigori, kirimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, arimo arasarura, biragaragara ko ari umuhinzi wateye imbere, wabigize umwuga.

Igihingwa cy'ikigori, gituruka mu mpunguri, ikiganza gifite ibigori mu ntoki, kirimo kirerekana ko nyuma bijya bivamo ibindi bigori.

Agakoresho kabigenewe ko gupima ngo karebe uko igihingwa gihagaze, gapima uburemere ndetse n'ibindi.

Aho binariza imyaka bahita muri pepiniyeri harimo umugore urimo avomerera ibi bimera kugira ngo bikure neza, aha haba harimo imbuto ndetse n'indabo n'ibindi.

Umufuka urenze umwe ni imifuka myinshi, irunze ahantu bigaragara ko ari mu buhunikiro, iyi ni imbuto yitegurwa guterwa.

Umuhinzi agomba kuba afite aho akura ibyo ahinga, aha ngaha ni depo y'imyaka ndetse aha ngaha ni ubuhunikiro bw'imbuto.

Inka yakomeretse biragaragara ko ikeneye kuvurwa na veterineri wabigize umwuga, ifite igisebe ahagana ku mugongo.

Ikibuga kirimo ibyatsi imbere yacyo hari umuveterineri wambaye impuzankano y'abaganga b'inka iri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari ikirayo k'inka cyubakishijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara ndetse inyuma ye hari inka zitandukanye higanjemo izifite amahembe maremare.

Inzu nini itunganyirizwamo umusaruro ukomoka ku matungo isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibyifashishwa mu gutunganya amata. Harimo igikoresho k'icyuma, imbere yacyo hari ibikurete bitandukanye biri mu ibara ry'ubururu, birimo utujerekani turi mu ibara ry'umweru.

Ahantu hatunganyirizwa imiti ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa bavura ndetse bagakingira amatungo.

Ba veterineri barimo baravura itungo barikorera operasiyo hboshye nk'aho ari umuntu, bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Inka z'inyambo ziri mu rwuri, zifite amahembe ateze neza ndetse zigiye kurisha, ni ku kazuba ku gasusuruko, hirya y'aho hari inzu nziza.

Abasore ndetse bambaye uturindantoki, barimo baravura itungo, barimo bararivura ryahuye n'uburwayi.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kirimo inyamaswa z'ishyamba zitandukanye, harimo inzovu nini ifite amahembe y'umweru, imbere yayo hari igisamagwe ndetse ku ruhande gato hari intare nini ndetse n'imparage kandi hejuru yazo hari agasumbashyamba.

Inzovu inyamaswa y'agasozi ifite amahembe maremare biragaragara ko ikuze. Inzovu izwiho kuba ari nini ndetse ikagira amahembe y'agaciro ba rushimusi baba bashaka.

Impara n'imparage biri mu kirunga, aha ni ahari inyamaswa zitandukanye zikurura ba mukerarugendo, impara n'imparage ni nziza zituma haza amadovize.

Imparage ni imwe mumaswa izwiho kugira amabara meza. Iyiparage iteye nk'ifarashi uretse ko ifarashi itagira amabara y'umweru ndetse n'umukara. Ni indyabyatsi.

Imparage ni inyamaswa ziteye ubwuzu zibera mu gasozi, zifite amabara agiye atandukanye harimo umweru ndetse n'umukara, agiye amanura umubiri wose.

Inyamaswa y'agasozi yitwa, ingwe, ifite amabara atandukanye, irimo iranywa amazi ndetse ni inyamaswa itinyitse.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe, ifite icyana cyayo birimo birakina. Ni ibyana byiza, urabona ko ikiyana gifite n'amabara asa nk'ayingwe koko.

Inkende ni zimwe mu bwoko bw'inyamaswa bwitwa inguge, zizikurira ndetse zigira imiryango ziranakundana cyane.

Imbwa ya' gasozi, igira urusembe runini, izwiho kwitwa imbwebwe. Ni imbwa y'indyanyama ndetse izwiho kuba impigi cyane.